Ni umwana uri guseka ari koga mu kiganza, inyuma ye hari igikuta cy'amatafari, hirya ye hari ikindi, hasi harunze amatafari.

Ni abantu bicaye, bambaye imipira y'imweru, hari umusore wambaye ingofero y'umweru n'amarinete, hirya yabo hari ibyatsi.

Ni umugore wikoreye injerekani y'umuhondo iriho umufuniko w'umutuku, hirya hari inzu ifite amabati y'umutuku imbere ye hari akana kunamye.

Ni umugabo uri kwita ku kana gateruwe n'umugore witandiye igitambaro mu mutwe. Hirya ye hari umugabo wambaye imyenda y'umweru, ufite ikaramu mu ntoki n'agapapuro, hirya ye hari abandi bagore bitandiye.

Ni ivomero rya kijyambere, hahagaze abana batatu, ku ruhande rw'abo hari umuzungu uri gukanda amazi, hirya gato hari imodokari y'umweru iri kuza ibasanga.

Ni umwana wunamye uri kunywa amazi, inyuma ye hari abandi bana bategereje, kuruhande hari intebe yo kwicaraho, hasi hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Ni umwana w'umukobwa wunamye wambaye impuzankano, imbere ye hari kandagira ukarabe, ku ruhande rwe hirya hari igiti cyamashami, hirya ye hari abandi bana b'abanyeshuri nabo bambaye impuzankano.

Ni umwana wunamye wambaye utwenda tw'imyeru turimo utuntu tw'umukara, afite indobo y'umweru, iruhande rwe hari izindi ndobo ebyiri z'umweru, hirya ye hari imbuga ngari irimo ibiti.

Ni ivomero ritonzeho injerekani nyinshi, iruhande rwaryo hari abantu batandukanye hari umusore n'abandi bagore, inyuma yaho hari abandi bantu bahetse amajerekani ku igare.

Ni abantu bicaye hamwe imbere yabo hari imeza iteretseho amazi, hirya hari ekara, hirya nanone hari ifoto, hari amadirishya y'ibirahure.

Ni umwana wambaye agapira k'umutuku n'agakabutura k'icyatsi, afite igikombe cy'umuhondo ari kukivomeramo amazi ahagaze imbere y'ivomero. Hirya ye hari igihuru.

Ni abantu benshi bahagaze mu mbuga. Kuruhande rwabo hari ihema ry'umweru, hirya hari idarapo rifite amabara y'umuhondo, icyatsi n'ubururu, hirya hari inzu ifite imiryango y'icyatsi ifite inkuta z'amabuye.

Ni abagabo babiri bari kuramukanya, umwe afite ibitabo mu kuboko kw'ibumoso, undi afite terefone mu kuboko kw'ibumoso.

Ni umugabo uhagaze ufite igitabo mu ntoki ndetse n'ikaramu mu ntoki ze, iruhande rwe hicaye abantu batandukanye bari kumva ibyo ari kubabwira.

Ni umugore uri gutanga ibipapuro, afite agakapu ku kuboko, inyuma ye hahagaze umusore wambaye imyenda y'imikara, hirya yabo hateye ibiti.

Ni umwana wambaye agapira k'umuhondo n'agakabutura k'umukara ari kuvoma amazi mu injerekani, hirya ye hari undi mwana nawe hirya ye hari umuntu mukuru uteze agatambaro mu mutwe.

Ni amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, munsi y'ayo magambo haciyemo umurongo w'umweru hakaza andi magambo y'umweru, hari n'ikimenyetso cy'umuntu mukuru usa n'aho ateruye umwana.

Ni umwana wambaye imyenda y'umutuku, uri gukaraba. Imbere ye hateretse ibase y'umukara, inyuma ye, hari igikuta cy'amatafari.

Ni umugore wambaye agapfukamunwa uteruye umwana, ku kuboko kwe hariho isaha y'umuhondo, inyuma ye hari umugabo wambaye agapfukamunwa, inyuma ye hari idirishya.

Ni uruganda runini rurimo imashini zitandukanye zisa ibara ry'ubururu harimo n'amatiyo asa ibara ry'cyatsi. Hari umugabo wambaye imyenda y'umukara na kasike y'umweru uhagaze mu murongo w'umukara.

Ni abagabo babiri bicaye. Umwe yambaye imyenda y'umukara n'amarinete, imbere yabo hari imeza iriho igitambaro cy'umuhondo, iteretseho uducupa tw'amazi n'ibirahuri. Inyuma yabo hari icyapa cy'umweru.

Ni umuganga wambaye itabuririya y'umweru, ari guha agahinja imiti gateruwe na nyina. Inyuma yabo hari urugi r'icyatsi.

Ni abantu bicaye, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye itaburiya y'umweru. Yambaye n'inkweto z'umweru. Inkuta zibakikije zirasa umweru, zifite amadirishya yibirahure, igisenge kibari hejuru nacyo ni umweru.

Ni abantu bavuye mu mahugurwa bambaye amataburiya atandukanye, umwe yambaye itaburiya y'umweru, abandi bambaye amataburiya y'ubururu butijimye, hagati yabo bahagaze umugabo w'umuzungu, wambaye ikote ry'umukara.

Ni umwana wambaye agashati k'icyatsi n'agakabutura, yunamye iruhande rw'ivomero, ari gukaraba mu kiganza. Hirya ye hari indobo y'ubururu, inyuma ye hari imbuga. Hirya y'iyo mbuga hari ibiti byinshi.

Ni abantu bahagaze, harimo abaganga bambaye amataburiya y'umweru, harimo n'umugore wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara, bari mu mbuga.

Ni abantu bicaye. Imbere yabo, hari meza iriho agatambaro k'umweru, iteretseho amazi, amakaye ndetse n'udukapu.

Ni umuganga uri guha imiti umwana, uwo mwana ateruwe n'umubyeyi we, inyuma yabo hari urugi rusa icyatsi, harimo urufunguzo.

Ni abagore babiri bari imbere y'ivomera bateruye indobo y'ubururu hirya hari indi ndobo ya orange haruguru yabo hahagaze abandi bagore babiri n'umwana w'umuhungu.

Ni abantu bahagaze mu mbuga, harimo abambaye amataburiya y'ubururu, hagati harimo umugabo muremure wambaye ikote, inyuma yabo hari igiti cy'amashami menshi.

Ni umugabo uhagaze uri kuvuga iruhande rwe hicaye abagore, hirya ye hahagaze undi mugabo.

N’umugore uteruye akana ari kuvomerera indobo y'umukara kw’ivomero hirya ye hari ibiti.

Ni abaganga babiri bambaye imyenda y'imyeru hejuru, umwe ari gutera urushinge umugabo wambaye agapfukamunwa. Inyuma ye hahagaze undi wambaye itaburiya y'umweru.

Ni abantu bahagaze bari gukoma amashyi bambaye amataburiya y'ubururu. Bahagaze mu ihema ry'umweru iruhande aho bahagaze hari ibyatsi.

Ni abagore bicaye bari kuganira, iruhande rwabo hari imeza iteretseho impapuro z'imyeru, inyuma yabo hari ibikapu, ku rundi ruhande inyuma hari igitambaro cy'umukara kiriho amagambo y'umweru.

Ni umugabo upfukamye ku kaguru kamwe, ari guha umwana icyo kunywa. Ateruwe n'umugore wambaye umupira w'umweru, hirya yabo hari abandi bantu bari muri icyo gikorwa n'ubundi.

Ni itsinda ry'abantu bari kuganira, bamwe muri bo bambaye amarinete, abandi bambaye amashati, harimo babiri bambaye amakote, n'umugore umwe wambaye ikote, imbere y'abo hari imeza iteretseho ibikombe.

N’umusore wambaye itaburiya y’umweru ari gukora ku mwana wambaye ubusa hejuru uteruwe numu mama wambaye igitambaro mu mutwe hirya yabo hari imeza iriho ibipapuro bitandukanye.

Ni ibicupa bibiri bibika umwuka hasi birasa umukara, hejuru birasa ubururu. Ku ruhande hari ibindi bikoresho by'ibyuma kabuhariwe.

Ni itsinda ry'abantu bicaye ku ntebe z'imikara, inyuma yabo hari rido y'umukara, harimo umugore umwe witangiye, wambaye agatambaro k'umweru mu mutwe.

Ni imashini iteretse ku meza, kuri iyo meza hateretseho ingofero y'ubururu, hari abagabo babiri bahagaze, umwe yambaye ijire y'ubururu n'ipantaro y'ubururu, imbere ye hari uwambaye agapfukamunwa n'ishati y'icyatsi.

Ni abagore bahagaze, batatu muri bo bambaye amajire, abandi ntayo bambaye, hirya y'abo hari inzu ifite ibirahure, isakajwe amategura.

Ni umwana bari gusukira amazi, afite isabune mu ntoki ari gukaraba intoki ze. Yambaye umupira w'ubururu uciyemo uturongo tw'umukara.

Ni umubyeyi uteruye umwana, afite igipapuro cy'umuhondo, hirya ye hari abandi bantu benshi. Ateze igitambaro mu mutwe, yambaye imyenda isa n'icyo gitambaro.

Ni amagambo yanditse mu mabara atandukanye ndetse n'ikimenyetso gihagarariye ayo magambo. Icyo kimenyetso kirimo amabara y'icyatsi ndetse n'ubururu bwijimye ndetse ayo magambo yanditse mu ibara ry'umukara n'ubururu bwijimye.

Ni abana bishimye, bambaye impuzankano, umwe muri bo ari kunywa amazi avuye ku ivomero, hirya inyuma yabo, hari ibiti bifite amashami.

Ni abantu bicaye mu ihema ririho idarapo ry'amabara atatu, ubururu, umuhondo n'icyatsi, imbere yabo hahagaze umugore ufite indangururamajwi n'agatabo yambaye itabuririya y'umweru.

Ni itsinda ry'abantu bicaye bafite impapuro z'umweru, hari agacupa k'amazi gateretse hasi, iruhande rw'ako gacupa hari umugabo wambaye ishati ya kaki n'ingofero.

Ni abana bambaye impuzankano z'ishuri, imbere yabo hari amasahani ariho ibiryo inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara cyanditseho amagambo menshi ari mu ibara ry'umweru.

Ni abana babiri umukuru n'umuto bashyize ijerekani zabo mu kidendezi bari kuvomamo amazi.

Ni ibara ry'umukara rikikijwe n'ibara rya orange, muri iryo bara harimo akabara k'umweru gakoze ikimenyetso cy'umusaraba.

Ni umwana usutamye ari guseka, ibiganza bye biteze amazi, hirya ye hari injerekani isa ibara ry'ubururu, hirya hari isa ibara ry'umuhondo.

Ni abana bafatanye ku rutugu, bambaye imipira y'ubururu, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ya mpunyu, iriho urugi rw'ubururu.

Ni abagabo babiri bari kurebana, umwe hari ikintu ateruye mu ntoki, yambaye agapfukamunwa ndetse n'ikintu kimukingira mu maso, inyuma yabo hari umwana wambaye agasengeri k'ubururu, inyuma yabo bose hari ibyatsi birebire.

Ni abaganga bishimye bari gukoma amashyi, bambaye amataburiya, imbere yabo hahagaze umuzungu wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, hirya yabo hari inzu y'umuhondo yanditseho amagambo y'ubururu.

Ni umugabo wicaye imbere ye hari umugore ukikiye akana, uyu mugabo yambaye bote z'umweru, umumama yicaye ku ntebe isa ubururu, umwana yambaye agapira k'umutuku.

Ni abantu babiri umugabo muremure wambaye ikote n'amarinete n'umugore w'umuzungu, wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara bateruye akenda kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Ni abantu babiri bicaranye, inyuma yabo hari icyapa cy'umweru kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku n'umukara. Umugabo yambaye agapira k'ubururu, umugore yambaye agapfukamunwa n'agashati k'umweru.

Ni umwana uteruye igikombe cy'umuhondo, ari kuvoma amazi ku iriba. Yambaye agapira k'umutuku, ari guseka.

Ni abantu bicaye imbere yabo hahagaze umugore wambaye agakote k'umukara n'ikanzu y'umweru, hari imeza iriho igitambaro cy'ubururu n'umweru iteretseho uducupa tw'amazi.

Ni umugore w'umuzungu, afite indangururamajwi y'umukara, ku kuboko kwe kw'ibumoso yambayeho isaha, inyuma ye hari ibyapa bitandukanye bigiye biri mu mabara atandukanye, harimo umutuku, umuhondo, umweru n'ubururu.

Ni abantu bahagaze na bandi bicaye, mu bicaye harimo umuzungu ndetse n'umugore, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ibyo bari barimo cyangwa se inama bari barimo.

Ni abana bambaye impuzankano. Imbere yabo hari amazi bagiye gukaraba.

Ni umwana wunamye ari kunywa amazi, hasi ye hari indobo ifite umukondo w'icyuma, yambaye agakabutura k'umutuku, hirya ye hari ibyatsi, hari n'inkingi z'ubururu n'umweru.

Ni abantu bahagaze, bose bambaye udupfukamunwa, bamwe utw'umukara abandi utw'umweru, inyuma yabo hari inzu ifite inkingi z'umweru.

Ni umubyeyi uteruye umwana, akaba yambaye agatambaro k'umweru mu mutwe n'ipantaro y'umukara, ku ruhande rwe hari akana gato k'agakobwa kambaye udukamambiri, igikuta kibari inyuma kirasa umuhondo.

Ni imodoka y'umweru, iriho amagambo y'umutuku, ishushanyijeho ibimenyetso biri mu ibara ry'ubururu. Inyuma yayo, hari abantu benshi, hari idarapo ry'igihugu n'inzu ifite amabati atukura.

Ni abana batatu bishimye bari koga mu biganza byabo, inyuma yabo hari igiti gifite amashami, hasi hari ibyatsi, hirya hari imbuga.

Ni umwana uri kuvoma amazi, afite agakombe k'umweru, yambaye agakabutura ndetse n'agashati, inyuma ye hari igikuta cyubakishije amatafari.

Ni abantu bicaye bari kuganira, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi, inyuma yabo hari irido y'ubururu, imbere hari imeza iriho igitambaro cy'umukara.

Ni umukobwa usutamye wambaye akajipo k'umukara, imbere ye hari amabase abiri ateretsemo injerekani y'umuhondo iriho akapa k'umutuku, inyuma ye hanitse imyenda.

Ni umwana wambaye imyenda ya kaki n'umugore wambaye umupira w'ubururu, yambaye agapfukamunwa, afite imisatsi isanzwe, hirya yabo hari ibyatsi n'ibiti.

Ni abantu bicaye ku ntebe z'ibiti bafite amakayi mu ntoki.

Ni abantu benshi bari mu mbuga, hino hari umugabo wicaye ku gatebe k'icyatsi, hirya hari ihema ry'umweru, hepfo yaryo hari idarapo ry'amabara atatu, umuhondo, icyatsi n'ubururu.

Ni abagabo babiri bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari meza iteretseho amazi na mudasobwa inyuma yabo hari icyapa kiririmo ibara ry'ubururu, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru

Ni injerekani y'umuhondo, iri kumwe n'amabase abiri, ibase y'umuhondo irimo amabara y'icyatsi, n'ibase y'umutuku irimo amabara y'umuhondo, hari abana bari ku ivomero bari gukanda ngo amazi aze, iruhande rwabo hahagaze umugore uri kumwe n'akana gato.

Ni indobo iteretse hasi isa ubururu ifite umukondo w'umweru, iruhande rwayo hunamye umusore ufite isabune mu ntoki wambaye isengeri y'umukara n'agakabutura k'umuhondo, iruhande rwe hahagaze undi mwana ufite ibirika y'ubururu.

Ni abana bicaye hasi, hamwe hari tapi, ahandi hari umusambi, muri abo bana harimo umuzungu wicaranye na bo, hirya y'abo hari abandi bagabo babiri bicaye mu nguni, iruhande rw'abo bagabo hari undi mugore uhicaye.

Ni abantu bahagaze hafi y'ivomero. Imbere yaryo hari umwana wambaye agakote k'umutuku, uteze injerekani ngo zijyemo amazi. Hirya hari umukecuru uri gusunika amazi. Hirya yabo hari urutoki.

Ni abantu bahagaze ahantu, inyuma yabo hari igihuru, hari n'inzu yubakishije amabati. Bateruye ibipapuro byanditseho amagambo, umwe mu babiteruye ni umumama witandiye wambaye igitambaro mu mutwe.

Ni abana babiri, umwe yambaye imyenda isa, undi yambaye agapira k'umutuku. Basutamye imbere y'ivomero, inyuma yabo hari ibyatsi byumagaye, hirya hateye igiti.

Ni abantu bishimye bambaye amataburiya bari gucurira, umwe muri abo afite agasakoshi k'ubururu, imbere yabo hahagaze umuzungu wambaye ikote ry'umukara n'amarinete, inyuma yabo hari inzu y'umuhondo.

Ni abantu benshi, bamwe baricaye, abandi barahagaze, hari idarapo ry'igihugu cyu Rwanda, hirya hari inzu iriho amabati atukura, yubakishije amabuye, hariho n'umuryango w'icyatsi.

Ni umwana ugiye kwikorera indobo, iruhande rwe hari umugabo wambaye ipantaro.

Ni abantu bicaye bose bareba imbere, ibikuta bibakikije birasa umweru, parafo y'inzu barimo nayo irasa umweru, abicaye imbere harimo abagore ndetse n'abagabo.

Ni imeza iteretseho mudasobwa, kuhande hicaye umuntu uri gukoresha iyo mudasobwa. Hirya ye hari umuganga wambaye itaburiya y'ubururu, imbere yabo hari umubyeyi uri kumwe n'umwana wambaye ikote ry'umukara n'agapfukamunwa.

Ni umwana uri mu ivomero ari kuvomera akajerekani k'umuhondo haruguru y'ivomero hahagaze undi wambaye impuzankano n'umupira wazo inyuma yabo hari abandi bana bari kugenda haruguru y'abo bana hari ibiti n'ibihuru.

Ni ababyeyi bicaye ku murongo, buri umwe ateruye umwana, inyuma yabo hari igikuta cy'amatafari hasi kirasa umweru n'umukara, hejuru kirasa igitaka n'umukara.

Ni umubyeyi uryamye ku gatanda ko kwa muganga yambaye agapfukamunwa, iruhande rwe hari umuganga na we wambaye agapfukamunwa, ku rundi ruhande rwe hari undi mubyeyi nawe wambaye agapfukamunwa.

Ni agatanda karambitseho ibikoresho bitandukanye, harimo akabase n'amasahani. Hirya yako hari insina, hirya y'insina hari urugo rw'imiyenzi.

Ni abantu bicaye nk'abari mu nama, hirya yabo hari ifoto, hirya nanone gato hari ekara, ikiigikuta kibakikije kirasa umweru, no hejuru harasa umweru hari n'amatara y'umweru.

Ni abantu b'ingeri zitandukanye bahagaze iruhande rw'ivomera. Harimo umwana ufite indobo y'umuhondo ifite umukondo w'umutuku, hirya yabo hari ibiti.

Ni amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, ku ruhande rwaho hari ikimenyetso ahagarariye kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu bwijimye.

Numugabo wambaye imyenda yicyatsi imbere ye hari ameza ateretseho amamashini agiye atandukanye inyuma ye hari igikuta cyamatafari hejuru hari parafe y'umweru.

Ni abantu bicaye mu ntebe za kaki, inyuma yabo hamanitse ikintu cyubururu cyanditsemo amagambo yumweru hasi aho bakandagiye ni umukara.

Ni abantu bahagaze harimo abagore n'abagabo, hagati yabo harimo umugore wambaye itaburiya y'umweru. Imbere yabo hari imeza iriho agatambaro k'umweru irambitseho mudasobwa.

Ni umuntu usutamye wambaye akagofero n'akajiri n'agapira k'umweru n'agapantaro k'umukara, imbere ye hari abana ari kunywesha, inyuma ye hahagaze umusirikare uteruye icyansi.

Ni umwana w'umukobwa uri kuvoma amazi atemba, iruhande rwe hicaye akana kari kumureba.

Ni abana bari guseka, bari gukarabywa intoki n'umuntu mukuru ufite agakombe karimo amazi. Yambaye umupira wicyatsi na bote z'umukara.

Ni abana bari koga mu ntoki, bari gufungura amazi, umwe muri bo yambaye amasogisi y'umutuku abandi bambaye imyenda y'ishuri, impuzankano.

Ni imbuga isa umutuku, hirya hari igiti, hari inzu ifite ibara ry'umuhondo hari n'abantu bahagaze umwe muri bo yambaye agapantaro k'umutuku.

Ni abantu bicaye, bambaye amataburiya y'ubururu, bose bafite ibitabo. Kumpera zabo, hicaye umugabo ufite terefone mu ntoki. Ibikuta bibakikije birasa n'ibara ry'umuhondo.

Ni umuganga wambaye itaburiya yumweru akaba afite umusatsi wumukara ari gutera urushinge akana gateruwe'umubyeyi wambaye umupira w'ubururu urimo uturongo twumweru numukara.

Ni umugabo wambaye amarinete ateruye isahani iriho ibiryo, ari kugaburira akana kambaye agapira ka orange ako kana gateruwe n'umubyeyi wambaye umupira w'umweru.

Ni umugore wambaye agapira k'icyatsi akaba ahetse umwana mu mugongo, afashe umufuniko w'indobo, hasi hari indobo y'umuhondo hirya hari iy'umutuku, imbere ye hari ivomero, hirya ye hari ibyatsi n'ibiti.

Ni umuntu wambaye imyenda yacikaguritse, afite ibintu ateruye mu ntoki, ahagaze iruhande rw'umuhanda uri gucamo moto, hirya ye hari umuntu uryamye munsi y'ibiti.

Ni amagambo yanditse mu mabara atandukanye, hari ayanditse mwi ibara ry'umukara hari n'ayanditse mu ibara ry'icyatsi hari agashushanyo gahagarariye cyangwa se gasobanura aya magambo.

Ni umukecuru ufite amaso matoya, akagira amenyo arimo imyanya, akenyeye igitambaro gisa n'imyenda yambaye, hirya ye hari abantu batagaragara neza.

Ni umukobwa wambaye igitambaro cy'umukara mu mutwe n'agapfukamunwa k'umweru.

Ni abantu bahagaze imbere hari abantu batanu, babiri muri bo ni abagore, batatu ni abagabo, umugore umwe yambaye ijipo y'icyatsi undi yambaye iy'umukara.

Ni abantu bambaye imyenda y'umukara, iruhande rwabo, hari uhahagaze wambaye umwenda w'umweru, inyuma yabo, hari imodoka y'umweru, inyuma yabo, hari agatambaro k'icyatsi.

Ni umugore ufite indangururamajwi uri kuvuga, yicaye ku ntebe y'umutuku, inyuma ye hari umugabo wambaye umupira w'umukara. Inyuma yabo hari ihema ry'umweru ririho akamenyetso k'icyatsi n'ibiganza by'umutuku.

Ni abana bishimye, bari guseka. Harimo uwambaye agakote k'umweru, iruhande rwe n'uwambaye agapira k'umuhondo. Iruhande rwe, hari uwambaye agapira k'umutuku.

Ni igishushanyo kigaragaza umuntu ndetse n'ubwonko, hakaba harimo utunyenyeri tw'umweru, hasi hakaba hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, akaba azengurutswe nonone n'amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi.

Ni abantu bahagaze, bamwe muri bo bateruye utwapa, abandi ntatwo bafite. Inyuma yabo, hari imbuga irimo ibyatsi, inateyemo indabyo. Hirya yabo, hari inzu iriho utugozi tw'amabara agiye atandukanye.

Ni isura y'umuntu ufite ijisho ritukuye. Riri kuvamo amarira, iminwa ye irumagaye, amazuru y'iwe, ntakibazo afite.

Ni abantu bicaye imbere yabo hahagaze umuntu ufite ibintu ari kubereka, igikuta kibazengurutse kirasa ibara ry'umuhondo, hari n'icyapa kimanitse kiriho idarapo ry'Amerika ahagana hasi mu mweru.

Ni umugabo ufite amaso atukura, ufite n'umunwa wo hasi utukura. Amazuru ye ari guturukamo ibimwira, amaso ye ari guturukamo amarira.

Hari abantu babiri bicaye ku dutebe, umwe yiteye umwenda w'umutuku, undi yambaye imyenda y'imikara, hirya yabo hari inkwi ku rundi ruhande hari ishitingi.

Ni inzu guturuka hasi yubakishijwe n'amabuye, hejuru ikaba isize irangi ry'umuhondo, ikaba ifite amadirishya asize irangi ry'ubururu. Hirya gatoya hariho akandi kantu gashamikiyeho nako gasize irangi ry'ubururu.

N’abantu bahagaze bavuye mu mahugurwa bambaye imipira isa hagati yabo harimo umugabo muremure wambaye ishati y’umweru iruhande rwe hari umugore witeye umwenda uri mumabara y’umweru ndetse n'umutuku.

Ni abantu bicaye, imbere yabo hahagaze umugore, hari n'ameza ariho udutambaro tw'ubururu n'umweru, amadirishya ari hakurya ni ibirahure.

Ni umusaza wambaye ishati y'umweru irimo uturongo tw'umukara, akaba akenyeye umwenda w'umuhondo afite n'icumu mu ntoki ari guseka.

Ni imbuga ihagazemo abantu bateruye icyapa, icyo cyapa kiri mu ibara ry'icyatsi rivanzemo n'umweru, hariho n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru. Inyuma yabo, hari ikirabo cy'umutuku, hasi hari uturabo dutoya tw'icyatsi.

Ni abantu b'abasore bicaye bameze nk'abari mu mahugurwa, bambaye imipira y'imikara, bicaye ku ntebe z'imituku zifite udukondo tw'umuhondo.

Ni umuntu urwaye, wananutse ku buryo amagufwa yanamye, afashwe ku rutugu n'undi muntu ufite inkoni mu ntoki, iruhande rwabo, hari undi umufashije kumuterura.

Ni abantu bicaye ku ntebe z'imikara. Imbere yabo hari imeza iteretseho agacupa k'amazi. Hirya hahagaze umugabo wambaye ikote. Inyuma ye hari izindi meza, n'abantu bicaye, bari kumureba.

Ni abantu bicaye ku ntebe z'umutuku, inyuma yabo hahagaze abandi. Bari mu mbuga. Inyuma yabo hari igiti gifite ibibabi, ku ruhande hari icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Ni umugore ufite indangururamajwi, usatiriye umukobwa wambaye agapira k'umutuku n'agapantaro k'umukara, hirya yawo hicaye abantu bari kubumva, banabareba.

Ni inzu isize ibara ry'umweru hejuru, iriho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, iruhande yaho hari ibiti, imbere yaho hari imbuga irimo ubwatsi.

Ni umuntu wifashe ku mutwe yihebye, iruhande rwe hari undi uri kumuhumuriza.

Ni abana bambaye imyenda idasa neza, umwe arogoshe abandi bafite imisatsi, bose bari kurira urabona yuko batishimye.

Ni umugabo wicaye yambaye imyenda yacikaguritse.

Ni abantu bicaye bareba imbere, hari umugore uhagaze, inyuma ye hari icyibaho cy'umukara, bazengurutswe n'igikuta cy'ibara ry'umuhondo, inyuma hari umugore uteze agatambaro mu mutwe.

Ni umugore wambaye imyenda y'icyatsi n'isaha y'umukara yambaye linete imbere ye hari indangururamajwi ebyiri ziri kumureba.

Ni umugore ufashe indangururamajwi mu ntoki, yicaye ku ntebe y'umutuku, hirya ye hari abantu, imbere ye hari imeza iriho igitambaro cy'umweru, iteretseho mudasobwa n'uducupa tw'amazi.

Ni abantu bicaye ku ntebe. Bambaye udupfukamunwa. Imbere yabo hari akameza gafite amaguru y'umukara. Hirya hari abandi bicaye, hirya yabo hari intebe z'umutuku. Iruhande rwazo hahagaze umugabo wambaye agapfukamunwa.

Ni umugabo wambaye ishati icitse agatuza ke kose kari hanze afite ubwanwa bwinshi budasa neza, n'umusatsi udasa neza.

Ni umugabo wunamye wambaye imyenda y'imikara, imbere ye hari indabyo z'amabara atandukanye, inyuma ye hari urukuta rw'umukara rwanditseho amagambo y'umweru.

Ni umusore wicaye hasi umeze nk'imfungwa, azirikishije ipingu ku kuguru kumwe, hirya ye hari igikuta gisa ibara ry'umweru, hasi yicaye biragaragara ko handuye.

Ni umugabo usa nabi ukenyeye igitenge ufite umusatsi usa nabi, imbere ye hari umurima urimo ubwatsi, aho akandagiye hari ibintu byinshi bitandukanye.

Ni abantu bicaye n'abandi bahagaze, hari uducupa tw'umweru dufite imifuniko y'ubururu, i ruhande rwatwo hari ibitabo bisa ubururu hari imbuga ngari.

Ni inyubako ifite ibara ry'umweru ifite amadirishya y'ibirahure, hino yayo hari ibyapa bigiye bitandukanye, hasi hari imbuga ngari.

Ni abagore batatu, umwe muri bo ari konsa umwana, bafite inkoni mu ntoki zabo, aho bahagaze hari ibyatsi, inyuma yabo hari imisozi ihinzeho ibiti.

Ni umubyeyi uteruye umwana uri guseka, inyuma yabo hari urukuta rw'inzu y'amatafari n'amadirishya y'umuhondo.

Ni abantu bari gukoma amashyi, hagati yabo harimo umuzungu wambaye agapira k'umukara. Imbere yabo hari imeza iteretseho amazi, haruguru yabo hari izindi ntebe ziri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umutuku.

Ni umugore wicaye hasi ku musambi uhinnye, aziritse umunyururu ku kaguru ufashe ku giti, yambaye agapira k'umuhondo, hirya ye hari ibindi bit

Ni umugabo uri kwireba mu ndorerwamo, ari kunyuza akadodo mu menyo, yambaye umupira w'umweru imbere ye hari indorerwamo.

Ni umugabo uri guseka afite akadodo mu ntoki, afite ubwanwa budaconze, yambaye ubusa ku gice cya ahagana hejuru.

Ni abana bafite uburoso bw'amenyo, umwe afite uburoso bw'amenyo busa umuhondo, undi afite ubusa icyatsi, inyuma yabo hari utagaragara neza ufite ubw'ubururu.

Ni umugabo wambaye umwenda w'umukara ari kwireba mu ndorerwamo. Iruhande rwe hari ibikoresho by'isuku ari kwikora mu menyo.

Ni umusore wambaye agapira k'umukara, aryamye ku gatebe k'umukara, ashyize urutoki rwe ku menyo, imbere ye hahagaze umuganga umuzaniye ibikoresho.

Ni umu umugabo wambaye umwenda w'umweru, ari kwireba mu ndorerwamo, ari kunyuza akadodo mu menyo ye.

Ni umuntu uryamye, amenyo ye ari kwitabwaho, iruhande rwe hahagaze umuganga uri kumwitaho, yambaye agapfukamunwa, ari kumureba mu menyo.

Ni ikibaho cy'umukara, kiri ku rukuta rw'umuhondo, cyanditseho n'ingwa z'ibara ry'umweru, imbere gato hahagaze abantu batatu, imbere yabo hahagaze umwana, n'umwarimu uri kumwereka ibice by'amenyo, mu buryo bufatika.

Ni umugabo wambaye itaburiya y'umweru irimo ikaramu n'isaha y'umukara ku kuboko, yicaye ku ntebe ifite umwenda w'icyatsi.

Ni abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru n'udupfukamunwa, imbere yabo hari umwana wamanuye agapfukamunwa, imbere ye hari imeza iteretseho ibipapuro ndetse n'ikaramu.

Ni umuntu wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, imbere ye hari imeza iriho urupapuro ari kwandikaho.

Ni abana bambaye impuzankano, bamwe bambaye imipira y'imbeho, abandi ntibayambaye. Bafite udukombe dutandukanye mu ntoki, bari gukora isuku y'amenyo bakoresheje uburoso.

Ni abantu babiri, umwana ndetse n'umuntu mukuru, bari kunyuza akadodo mu menyo, umwana yambaye umupira w'umweru n'umuntu mukuru yambaye umupira w'umweru.

Ni umwana uri kwa muganga mu kanwa ke harimo intoki z'umuganga uri kumwitaho wambaye ga z'icyatsi, uyu mwana ari kureba gusa

Ni inzu ndende ifite amagorofa atatu, hejuru hayo harasa ibara ry'icyatsi. Ikikijwe n'igipangu cy'ubururu hariho n'ibyatsi kuri icyo gipangu.

Ni umukobwa ukenyeye agatambaro k'umweru mu mutwe, ari kwihaganyura utwanda mu menyo.

Ni umwana ufite amenyo afite ikibazo, ari kwitabwaho n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse yambaye n'amarinete.

Ni umusore wambaye agapira k'umweru karimo uturongo tw'umukara, uryamye ku ntebe y'umutuku. Hejuru ye hahagaze umugabo wambaye agapfukamunwa, ufite akadodo mu ntoki.

Ni umukobwa wambaye agapira k'umweru karimo imirongo y’umuhondo, yirengejeho agataburiya gasa ubururu butijimye ateruye indorerwamo ari kwireba yicaye ku gatebe k'umweru.

N’abantu batatu babiri bambaye imyenda y’imikara umwe yambaye agapfukamunwa k'umukara undi yambaye agapfukamunwa k'ubururu n'agatambaro k'ubururu mu mutwe, hasi yabo haruharyamye bari gusuzuma.

Ni ifoto iciye muri sikaneri, igaragaza uko amenyo ateye ndetse n'amagufa yo hafi y'amenyo.

N’umusore uri guseka ufite ubwanwa wambaye agakote k'ubururu.

Ni umusore w'inzobe. Ufite ubwanwa bukeya, akagira n'umusatsi mukeya. Yambaye agashati k'umweru karimo uturongo tw'ubururu. Imbere ye hahagaze umuganga uri kumusuzuma amenyo.

Ni umusore uri kwinyuza akadodo mu menyo.

Ni umukobwa ufite imisatsi y'umukara, yambaye agasengeri k'umweru, afite uburoso mu ntoki, ari gukora isuku y'amenyo yiwe.

Ni umugabo ufite amenyo y'umweru n'ishinya y'umutuku, afite akadodo mu ntoki ari kunyuza mu menyo, ku rutugu rwe hariho agasume k'umweru, yambaye ubusa hejuru.

Ni intebe yo mu bitaro yicaraho abarwayi, ku ruhande rwaho hari akandi gatebe kicaraho umuganga, hejuru hariho amatara y'umweru n'igisenge gihari nacyo ni umweru yewe no hasi harasa umweru.

Ni imeza iriho agatambaro k'umweru iruhande rwayo hicaye abantu bambaye imipira y'icyatsi.

Ni umuganga wambaye linete ndetse n'ishati y'umweru, ari kumanika amafoto agaragaza ibizamini bimaze gufatwa binyuze muri mucyo bita sikaneri.

Ni umumama n'umwana, bafite uburoso bw'amenyo, umumama yerekera umwana uko bakora isuku mu menyo, bambaye imyenda y'imyeru.

Ni abantu babiri. Umwe n'umukecuru wambaye amarinete n'imisatsi y'umweru n'agapira k'umukara, n'umusaza w'imvi mu bwanwa uteruye ikirahuri. Yicaye ku gitanda cy'umuhondo, inkuta zibakikije zirasa umweru.

Ni igiti gifite amashami ariho ibibabi munsi yacyo hateretse ibikarito. Imbere hari abantu bari kuramukanya hasi hari udutebe bari gutanga.

Ni abantu babiri bari gufungura umugore ndetse n'umugabo, bombi bambaye amarinete, umugabo ari kureba umugore ari guseka.

Ni umukecuru uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye hasi, yambaye agapantaro k'umutuku, umusatsi we urafunze neza, ariko urimo imvi.

Ni abantu babiri, umwe ni umugabo, undi ni umugore, umugabo afite ubwanwa bwinshi, umugore afite inkoni mu ntoki ziwe, baregeranye umwe arambitseho undi umusaya.

Ni abagabo babiri bafatanye ku rutugu, umwe yambaye ingofero, undi ntayo yambaye, bari mu kayira, iruhande rw'abo hateye ibyatsi, inyuma y'abo hari ishyamba.

Ni abantu babiri, umwe ni umugabo wambaye amarinete, yicaye ku gitanda, undi ni umugore w'umuzungu wambaye itaburiya y'umweru, inyuma yabo hari umusegetera.

Ni umugabo ushaje wicaye mu ntebe ufite inkoni mu kaboko k'ibumoso, iruhande rwe hahagaze umugore w'umuganga wambaye itaburiya y'ubururu. Bari mu nzu y'umweru.

Ni abantu babiri umwe n'umugabo wirabura wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara, undi n'umuzungu wambaye imyenda isa kukuboko kwe hariho isaha y'umukara.

Ni abantu babiri, umwe ni umusore, undi ni umusaza, umusaza wambaye amarinete ari guseka, imbere y'abo hateretse udukombe tubiri tw'umweru, bari kureba mu gitabo.

Ni musaza wambaye agapira k'umweru, wambaye rinete ufite umusatsi w'imvi, iruhande rwe hahagaze umuganga wambaye imyenda y'umutuku.

Ni umusaza wicaye ku gatanda k'umweru ari gukurura umugozi, imbere hahagaze undi mugabo uri kumufasha, uyu musaza afite imvi z'umweru yambaye agapira k'umuhondo.

Ni abantu babiri bafatanye mu ntoki, umwe asutamye hasi, undi yicaye mu ntebe, imbere yabo hari umuryango w'ikirahure.

Ni umugore wicaye hasi, ari gukora imyitozo ngororamubiri, hirya ye hari itara ndetse n'icyatsi, yambaye agasengeri k'ubururu ndetse n'inkweto n'agapantaro k'umukara.

Ni abantu bicaye ku ntebe bamwe z'ubururu abandi iz'umweru bari munsi yigiti hirya yabo hari inzu zi'ibyondo hirya hari ibyatsi.

Ni abantu babiri, umusaza ufite imvi n'umukecuru wambaye agapira k'umutuku, imbere yabo hari imeza iteretseho ikirahure kirimo amazi, umusaza afite ibinini mu ntoki n'agacupa k'umweru.

Ni umugore wiyogoshesheje ufite ikirahure cy'amazi mu ntoki n'ibinini mu kindi kiganza. Inyuma ye hari amarido y'umweru.

Ni umusaza w'imvi z'umweru wambaye amarori uri guseka, inyuma ye hari umukobwa uri kumusunika, hirya yabo hari umuhanda, hirya hari ibiti.

Ni umugore ufite imisatsi y'umukara, wambaye rinete, yambaye n'agashati k'umuhondo, imbere ye hari imeza iteretseho agacupa, akandi gacupa agateruye mu kiganza, ari gusuka ibinini mu kindi kiganza.

Ni umusaza wambaye agashati k'umweru, ufite n'imvi z'umweru, iruhande rwe hicaye umwana w'umukobwa, wambaye akajipo k'umutuku, hirya ye hicaye umwana w'umuhungu, ucigatiye akavido k'umweru.

Ni umugabo ufite imvi z'umweru mu musatsi no mu bwanwa, yambaye rinete n'agashati ka oranje, afite ikaramu mu ntoki, ikindi kiganza ateruyemo igitabo ari kucyitegereza.

Ni umugabo wicaye wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umuhondo, ufite umusatsi w'umukara, ariko wiganjemo imvi z'umweru, imbere ye hari akameza.

Ni umuryango urimo ibirahure, hakaba abantu babiri bahagaze barebana, umwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, undi yambaye ipantaro y'umutuku.

Ni abagore babiri bigaragara ko bakuze, umwe yambaye amadarubindi, afite n'imisatsi y'umweru, ateruye n'ikirahure kirimo icyo kunywa, undi amuhagaze iruhande ari gukorera isuku imbuto n'imboga.

Ni abantu bari mu muhanda, imbere hari abakecuru babiri, umwe ufite imvi wambaye agapira k'umutuku n'undi ukenyeye agatambaro k'umukara mu mutwe. Inyuma yabo hari abandi bantu, hirya gato hari inzu, hirya na none hari urutoki n'ibiti.

Ni umusaza wambaye agapira k'umukara afite n'ubwanwa bw'umweru imbere ye hari imeza iteretseho ikirahure cy'amazi ndetse n'imashini, iruhande rwe hagaze umukobwa...

Ni abantu babiri, umukecuru ufite imvi z'umweru wambaye agapira k'umutuku, imbere yabo hari imeza iteretseho utuntu tw'umweru, umusaza ufite imvi z'umweru wambaye agapira k'ubururu.

Ni abantu babiri, umwe ni umuganga uri guha ibinini umugabo ufite ubwanwa bw'umweru, akaba ateruye n'ikirahure kirimo amazi agiye kunywesha iyo miti.

Ni abagabo babiri, umwe yambaye ishati afite umusatsi urimo imvi, undi yambaye itaburiya y'umweru, imbere yabo hari imeza iriho ikayi n'ikaramu, inyuma yabo hari amadirishya y'umweru.

Ni abantu babiri, umwe ni umugore, undi ni umugabo, umugore yambaye agatambaro k'umutuku mu mutwe ari guseka, umugabo ari kumusoma ku itama. Umugore amufashe ku rutugu.

Ni musaza uryamye ku gatanda ko kwa muganga, afite ubwanwa bwajemo imvi busa umweru, hirya ye hahagaze umuganga wambaye itaburiya y'umweru.

Ni abantu babiri. Umukecuru wicaye imbere ye hari imeza iriho ikirahure kirimo amazi, undi ari kumuha ibinini yambaye imyenda y'ibara ry'ubururu.

Ni abantu babiri bose bishimye bari guseka, umwe ni umukecuru w'imvi z'umweru, undi ni umukobwa ufite umusatsi ufunze wambaye n'umwenda w'icyatsi.

Ni abantu babiri, umwe ni umusaza w'imvi z'umweru, imbere yabo hateretse akameza kariho ikirahure kirimo amazi n'igitabo ku ruhande n'umugore wambaye akenda k'umuhondo.

Ni abantu babiri, umusaza w'imvi wambaye agapira k'umweru ku rutoki rwe rwa meme hariho impeta imbere ye hari imeza iriho imbuto zitandukanye, iruhande rwe hari umukecuru bari kurebana mu maso.

Ni umukecuru ufite imvi z'umweru, uteruye indangururamajwi. Hirya ye hari imbuga irimo ubwatsi, harimo imodoka.

Ni abantu babiri, umukobwa wambaye agakote uteruye igikapu mu ntoki ahetse n'ikindi, ari kumwe n'umukecuru wambaye akagofero, ari kugendera mu kagare.

Ni umugabo wambaye agapira k'umukara, iruhande rwe hahagaze umugore w'umuzungu, wambaye agashati k'umweru n'agapantaro k'umukara, amufashe ku mugongo.

Ni abantu babiri, umusaza ufite imvi z'umweru, wambaye uturinete n'umupira w'umweru, iruhande rwe hari umukecuru, imbere yabo hari imeza y'umukara, iriho utuntu tw'umukara turimo amabara y'umweru.

Ni abagore bari kuganira, imbere yabo bateretse ibintu birimo inyanya inyuma hari imbuto, umwe muri abo bagore arambuye ikiganza abandi bari kumwitegereza hirya hari ishashi y'icyatsi.

Ni umusore wambaye itaburiya y'umweru, inyuma ye hahagaze undi musore wambaye ijire, imbere ye, hari umukecuru uteze igitambaro mu mutwe, ku ruhande rwe, hari undi mugore uhicaye.

Ni umugabo uryamye ku gatanda k'indembe kari mu bwatsi, iruhande rwe hasutamye abandi bagabo n'umugore umwe wambaye itaburiya y'umweru, hirya yabo hahagaze umugabo uri munsi y'igiti wambaye agapfukamunwa.

Ni umugabo uhagararanye n'umugore, bateruye ikirango mu ntoki zabo. Hirya, hari amadarapo atandukanye, ku ruhande hari intebe y'umukara.

Ni abantu bicaye, imbere yabo hari abandi bateze amaboko bari kubyina, inyuma yabo hari icyapa cy'umweru ndetse n'umutuku, hakurya yabo hari akandi kapa k'umukara.

Ni abantu bicaye bari kureba imbere, mu ntebe z'umweru n'udupira tw'umweru n'imisatsi y'umukara. Imbere yabo, hari umuntu wambaye akenda k'umukara, ku ruhande hari undi uri gufotora.

Ni abantu bahagaze, babiri muri bo begeranye ni abagore. Aho bahagaze harasa ibara ry'icyatsi, inyuma yabo hari ibirango by'ibyo barimo.

Ni umukecuru wambaye igitambaro cy'umutuku mu mutwe, kirimo utubara tw'umweru, akaba apfutse ijisho, apfukishije igipfuko cy'umweru.

Ni abagabo babiri bari kuramukanya, umwe yambaye amarori undi ntayo yambaye, bose bafite ibitabo mu ntoki zabo, inyuma y'abo hari ibirango by'igihugu.

Ni abantu bahagaze bose bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari imeza iriho agatambaro k'umuhondo.

Ni abagabo babiri bambaye imyenda y'imikara, umwe aricaye, undi amuhagaze iruhande. Impande zabo hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Ni abantu bicaye ku ntebe z'imituku imbere yabo hicaye abandi inyuma hari icyapa cy'amabara y'ubururu n'umweru kirimo amagambo yanditse mu mabara y'umweru.

Ni abantu benshi bambaye imipira y'imyeru bari kugenda bafite ibyapa biri mu mabara y'umweru handitseho n'amagambo y'umweru, inyuma yabo hari ibiti byinshi birebire.

Ni intebe z'imikara. Iruhande rwazo, hari utumeza tugufiya tw'umweru turiho indangururamajwi. Hino hahagaze umugabo, imbere ye hari kamera.

Ni abantu bicaye bari kumva bose barebye imbere, hasi aho bakandagiye hari itapi y'umukara irimo ibintu by'umweru, ibikuta bibakikije birasa ibara ry'umutuku, hejuru harasa ibara rya oranje.

Ni abantu bicaye n'abandi bahagaze, bose bafite udutabo mu ntoki zabo, imbere hari imeza y'umweru iriho ibikoresho bitandukanye, hasi hari itapi y'umutuku.

Ni amagambo yanditse mu mabara y'ubururu, munsi yaho haciyeho akarongo k'umukara n'andi magambo ari mu ibara ry'umutuku. Iruhande rwayo hari ikimenyetso ayo magambo asobanura.

Ni umugore uhagaze, wambaye amarori n'ishati y'icyatsi, ku kuboko kwe hariho isaha y'umukara irimo akantu k'umweru, imbere ye hari indangururamajwi ebyiri ziri kumureba.

Ni umugore wicaye mu ntebe isa kaki afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye amarinete n'ipantaro y'umukara acigatiye igitabo.

Ni abantu bicaye bareba hirya, munsi yaho hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo y'umutuku n'akamenyetso k'icyatsi. Inkuta zibari imbere zisize irangi ry'umuhondo.

Ni umugore ufunze igipfunsi, wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'agatambaro k'ubururu mu mutwe, inyuma ye hari abantu batagaragara, ku ruhande rwe hari ibyanditse mu ibara ry'umweru.

Ni abantu bicaye n'abandi bahagaze, ku mpande zabo hari ibyapa bitandukanye, inyuma yabo hari igikuta cy'umweru.

Ni umugabo w'umuzungu wifashe mu mayunguyungu, wambaye imyenda y'umukara n'agashati k'ubururu, iruhande rwe hahagaze umugore wirabura wambaye agakanzu karimo utubara tw'umweru n'umutuku. Hasi bahagaze ku makaro.

Ni umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa n'agatambaro mu mutwe, ari gufata agahinja kambaye imyenda y'umweru agakuye mu biganza bya nyina.

Ni mu nzu icururizwamo imiti.

Ni icyapa kiri mu ibara ry'ubururu bwijimye, handitseho amagambo y'umweru hariho n'ikirango, hepfo yaho hari ibyatsi, haruguru hari abantu batandukanye.

Ni utubuye twinshi cyane tw'umweru hateyemo icyapa kigaragaza ko hakorera polisi, hirya hari ibyatsi hirya y'ibyo byatsi hari inzu isakaje amabati y'ubururu.

Ni ibyuma byabugenewe mu gukora siporo, birambitse ahantu h'umukara. Inkuta zaho ni umweru n'amadirishya y'ibirahure. Na ho igisenge kiriho amatara atari kwaka, na cyo kirasa umweru.

Ni udutanda dutandukanye, tubiri muri two turyamyeho abantu hejuru hari imisegetera ku idirishya hariho ibitambaro by'umuhondo.

Ni umuryango usa ibara rya kaki, urimo ibirahure bitabonerana. Hejuru hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Ninzu iriho icyapa cy'umweru kiriho ikimenyetso cy'ijisho munsi yacyo hari amadirishya y'ibirahure ikaba ifite imiryango ibiri, imbere yaho hari imbuga ngari.

Ni intebe yo kwa muganga isa ibara ry'icyatsi hasi hakaba hasa umweru, iriho imigozi igiye itandukanye, iruhande hari agatebe ko kwicaraho k'umukara.

Ni abantu bicaye ku ntebe, hirya yabo hari igikuta gisa ibara ry'umuhondo, hakurya yabo na none hari ibyatsi, iyi nzu yubakishije amatafari ya mpunyu.

Ni ahantu hakorerwa imyitozo ngororamubiri, hari imashini nyinshi zabugenewe, ni igisenge cy'umuhondo, hasi hasa ibara ryijimye, usohotse hanze hari ibyatsi.

Ni izu yubakishije amatafari. Hejuru hayo hasize ibara ry'umweru, imbere hayo hari icyapa cy'umutuku cyanditsemo amagambo y'umweru. Haparitse imodoka.

Ni umwana uri kumwe n'umwarimu, ari kumwereka ibice bigize amenyo ku buryo bufatika.

Ni akameza kariho agatambaro k'umweru, hateretseho umuti n'abaganga batatu, babiri barahagaze bambaye imyeru n'undi umwe wicaye n'abandi barwayi babiri bicaye impande zabo.

Ni inzu yubakishije amatafari ya mpunyu hejuru y'iyo nzu hariyo imirasire, umurasire w'izuba, hirya y'iyo nzu hari ibyatsi ibi muri ibyo byatsi hari uduti tujyiye duteyemo.

Ni imbuga y'ubwatsi, iteyemo idarapo ry'amabara atatu, ubururu, umuhondo, icyatsi. Hirya hari igiti kirekire, munsi yacyo hari inzu z'amabara y'umweru.

Ni inzu yubakishije amatafari ifite inzugi z'umweru ziriho ibirahuri. Imbere yayo hari umuhanda w'umukara.

Ni imbuga y'umukara, iruhande rwayo, hateye ibyatsi, hari inzu ndende y'igorofa rimwe, isa ibara ry'umweru, ifite amabati y'umukara.

Ni nzu y'umweru ndende. Yanditseho inyuguti ziri mu mabara y'umukara. Imbere yayo hari inzira. Hirya hari ibiti. Ku ruhande rwo hepfo hari umugabo wambaye agapira k'umutuku.

Ni icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umweru, hasi hari ikindi cyapa cy'icyatsi nacyo cyanditseho amabara y'umweru, hasi hari imiryango iriho ibyapa bigiye bitandukanye mu imbere mu nzu harimo abantu.

Ni agatanda ko kwa muganga, gashasheho ishuka y'umweru. Hirya yako, hari abantu bahahagaze bari kwitegereza kuri ekara ariko itari kwaka, hejuru hari amatara y'umweru.

Ni inzu igurishirizwamo amadarubindi, hirya hari ibara ry'umutuku ku gikuta, hari umuntu uhicaye ndetse ku muryango hariho icyapa cy'abantu babiri bambaye amadarubindi.

Hasi harasa ibara ry'ubururu, hari amamashini akora imirimo igiye itandukanye, ayo mamashini afashe ku gikuta, icyo gikuta kirasa umweru.

Ni abagabo babiri baryamye ku dutanda, bambaye udupfukamunwa tw'umukara n'abandi bagore babiri bari impande yabo bambaye amataburiya y'umweru n'udupfukamunwa mu itente y'umweru.

Ni intebe y'urubaho iriho ubusa, inyuma yayo hari izindi z'imikara no hirya yayo hari izindi, ku ruhande hari abantu batonze umurongo harimo abambaye amataburiya y'ubururu.

Ni abantu babiri, umwana wambaye agashati k'umweru n'amaburuteri, ufashwe n'umugore wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu, inyuma yabo hari akabati karimo imiti.

Ni inzu nziza y'igorofa rimwe, imbere yayo hari imbuga yo guparikwamo, hino yayo hari imbuga yo kunyuramo, ukomeje hino hari imbuga irimo ubwatsi.

Ni imeza ishasheho igitambaro, n'umugore uhagaze, n'abagabo batatu bicaye, ku ruhande rwabo hari undi mugabo wambaye ikote ry'umukara nawe uhagaze.

Ni ahantu habugenewe gukorera imyitozo ngororamubiri, hari inkingi z'umweru, igisenge cyayo kirasa umweru, hari n'ibikoresho byabugenewe mu gukora iyo myitozo ngororamubiri.

Ni abantu bicaye, imbere yabo hari urugi rw'ibirahure, hino yabo hari intebe z'imikara ziticawemo, igisenge kiriho amatara cy'umweru.

Ni imisozi myinshi iteyeho ibiti, hakaba hari idarapo rifite amabara y'umuhondo, icyatsi n'ubururu, iruhande rwaryo hari abantu babiri bikoreye indobo, iy'umutuku n'iy'ubururu.

Ni indobo iri hasi, iruhande rwayo, hari umunyonzi wambaye agapira k'ubururu n'akagofero, akaba ahetse umugore wambaye akajipo k'umukara.

Ni inyubako yubakishije amatafari, ifite amadirishya y'umweru arimo ibirahuri, imbere yaho hari imbuga ngari ku ruhande hateye ibyatsi, hirya yaho hari icyapa.

Ni inzu ifite ibara ry'umuhondo ikagira amadirishya y'ibirahuri, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, imbere yayo hari indabyo zitandukanye.

Ni abantu biganjemo abagore n'abagabo bahagaze mu mbuga ngari, inyuma yabo hari inzu ndende ifite amadirishya y’ibirahure hejuru handitseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi.

Ni icyapa kimanitse hejuru ku nzu, kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi n'ayanditse mu ibara ry'umweru, hasi hariho imiryango y'ibirahure.

Ni ahantu hasa umuhondo ahagana hasi, hari ibikuta by'umweru ndetse n'igisenge cy'umweru kigiye kirimo amatara nayo ari mu ibara ry'umweru, hariho udushushanyo ku mpande turi mu ibara ry'umukara n'umuhondo.

Ni Ibyuma byabugenewe mu gukora siporo.

Ni agatebe karekare ko kwicaraho, iruhande rwako hari ibirabyo byo mu nzu, hasi harimo imirongo y'amabara y'umuhondo. Urugi rurimo ibirahure.

Ni inzu isakajwe amabati y'ubururu iriho icyapa gishushanyijeho ijisho, amatafari ahiye n'inkingi ziri mu ibara ry'umuhondo, hino yaho hari indabo.

Ni inzu ifite amabati y'ubururu, imbere hayo handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, ifite inkingi z'umuhondo ndetse n'inzugi z'imikara, imbere yayo hari imbuga ngari, ku ruhande hicaye abantu.

Ni iduka ricuruza amarori, harimo amarori agiye atandukanye. Hasi hari itapi isa umukara ndetse n'umweru, iruhande hari akantu gasa umutuku n'umweru.

Ni icyapa cy'umweru kimanitse hejuru kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi, hasi yacyo hari amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku, hasi hahagaze umugabo wambaye agapira k'umweru.

Ni inzu ndende y'amagorofa atatu isize ibara ry'umuhondo ifite amadirishya y'ibirahure, hasi hari amamodoka y'amabara atandukanye imbere yayo hari ibiti n'ibirabo birebire.

Ni umuganga wambaye itaburiya y'umweru, n'ipantaro y'umukara, ari gutera urushinge umugabo wicaye, yakuyemo ishati yambaye agasengeri, imbere yabo hari agatebe k'umweru.

Ni inzu ndende y'amagorofa abiri, iriho icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, imbere yayo hari imbuga y'utubuye, imbere nanone gatoya hari indi mbuga yisanzuye.

Ni inzu ifite amabara y'umweru, iruhande rwayo hari igiti, hepfo hari imodoka, hasi hari utuntu tw'umuhondo ndetse n'umukara.

Ni inyubako ifite inkuta z'umweru ikagira inzugi z'ibirahure, hejuru ku gisenge hariho amatara hari n'ururabo rw'umutako.

n'igikuta kiriho ibishushanyo bitandukanye by'ukwezi n'abantu bagiyeyo, n'ikindi gikuta cyo ku ruhande gisa n'umweru kimanitseho agakoresho.

Ni abantu bicaye ku ntebe, imbere yabo hari umugabo uhahagaze wambaye ipantaro y'umweru n'agapfukamunwa, hirya hari guturuka umugore wambaye agakanzu k'umutuku.

Ni inzu yubakishije amatafari, ikagira amadirishya y'umweru n'inkingi z'umweru ariko zifite hasi h'umukara, imbere yaho hari ubusitani.

Ni ahantu hari igisenge cy'umweru, kimanitseho televiziyo, hasi hari agatanda k'abana, hari n'agatebe k'umweru, ku ruhande hari akabati k'ibara ry'umuhondo, karimo n'andi mabara.

Ni inzu yubakishije amatafari, kuri iyo nzu hariho icyapa kirimo amabara y'icyatsi n'umweru, hasi haparitse imodokari z'umukara, hirya hari ibyatsi, imbere hari umutaka w'umutuku.

Ni abantu bicaye mu ntebe bambaye imyenda itandukanye irimo amabara y'umuhondo n'icyatsi, inkuta zibakikije zirasa icyatsi ndetse n'umweru.

Ni inyubako yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, ifite inzugi ziriho ibirahure, imbere yaho hateye indabo ahandi hari imbuga isa neza.

Ni imodoka y'umukara, ifite ibirahure by'umukara n'amapine y'umukara ariko arimo utuntu tw'umweru, hirya yaho, hari inzu y'umuhondo imanitseho icyapa.

Ni umuntu uryamye ku gatanda ko kwa muganga ariko kadasanzwe, iruhande rwe hari ibyuma byinshi bigiye bitandukanye. Inkuta ziri imbere yiwe zirasa ibara ry'umweru, hejuru yiwe hari amadirishya mu nguni y'ibirahuri.

Ni inzu yubakishije amatafari, ifite amadirishya y'ibirahure, hariho icyapa kiri mu ibara ry'umweru, amagambo yanditsemo ari mu ibara ry'ubururu.

Ni inzu ifite amabati y'ubururu, iteye irangi ry'umweru, hejuru hariho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu. Ifite inkingi z'umweru, imbere yayo hari imbuga, imbere y'imbuga hari ubwatsi.

Ni umucungamutekano wambaye inkweto z'umukara, hirya ye hari abantu n'imodoka, hirya yabo hari inzu y'umuhondo ifite amabati y'umutuku, hakurya hari umusozi uriho ibiti.

Ni abagabo babiri bari kugenda bambaye hejuru umweru, umwe muri bo yambaye ipantaro y'umukara, undi yambaye iy'ubururu.

Ni mucyumba ahantu hasa umweru hari ibikoresho bitandukanye bikoreshwa kwa muganga.

Ni inzu yubakishije amatafari iruhande rwayo hari indi yubakishije utubuye duto dutoya, ifite ibirahure ndetse n'irange rya oranje, hino hari imbuga ngari.

Ni imashini ikoreshwa kwa muganga iriho utuntu twinshi tw'umukara, hejuru yayo hariho ekara ijimije, igisenge kiri hano ni umweru, hariho n'amatara y'umweru, naho hasi hari intebe ziri mu ibara ry'icyatsi.

Ni inzu isakajwe amabati y'ubururu, ikaba ari igorofa imwe, isa umweru, imbere yaho, hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, imbere yaho hari idarapo ry'igihugu.

Ni umugore wicaye ku gatanda ko kwa muganga, yambaye akantu k'umukara mu mutwe, iruhande rwe hahagaze umuganga wambaye itaburiya y'umweru ari kumwitegereza, inyuma yabo hari undi uri kubareba.

Niyi meza igezweho ikikijwe n'intebe zigezweho iruhande hari indabo zihadekoye igikuta hamwe harasa umweru ahandi harasa umweru ariko uvanzemo utuntu twumukara.

Ni ubusitani burimo indabo zitandukanye ndetse n'ibyatsi, hino yabwo hari imbuga ngari, hirya hari inzu yubakishije amatafari ifite amadirishya y'ibirahure.

Ni inzu y'umweru, iriho icyapa cy'umweru, ariko kirimo amabara y'icyatsi, hasi hari imodoka. Hari imiryango y'ibirahure, hirya hari indi modokari y'umweru, hari n'ibirabo bihatatse.

Ni itsinda ry'abaganga riri kwita ku murwayi uryamye ku gatanda kariho amashuka y'umweru, hasi harasa ibara ry'umuhondo.

Ni ahantu h'umweru, igisenge cy'aho kiriho amatara yaka umweru, ku nkuta hariho ibyapa by’icyatsi kimwe muri ibyo byapa cyanditseho amagambo y’umweru.

Ni imbuga iteyemo ibyatsi, muri iyo mbuga harimo ibyicungo bifite amabara atandukanye y'icyatsi ndetse n'ay'ubururu, hirya hari igikuta cyubakishije amatafari kiriho amarangi y'umweru.

Ni umugabo w'umuganga, wambaye ikaburiya y'umweru, wambaye n'agapfukamunwa, afite agacupa gafite umufuniko w'ibara ry'ubururu mu ntoki.

Ni ahantu hasa n'umweru, ku gikuta igice cyo hasi kirasa n'umukara utijimye cyane, hejuru harasa n'umweru, naho igisenge kiriho itara ry'uruziga.

Ni agatanda ko kwa muganga, gashasheho amashuka y'imyeru hepfo kakaba gasa ubururu, hirya hari idirishya ry'ikirahure, ku gikuta hashushanyijeho ibishushanyo by'indabo.

Ni umugabo wicaye munsi y'igiti gifite amashami agaye, iruhande rwe hari ibindi byatsi, hirya ye hari inzu isa umweru.

Ni umusore wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara, akaba yambaye n'agapfukamunwa, hirya ye hari indobo y'umukara, igisenge cy'aho ari kirasa umweru.

Ni inzu yubakishije amatafari, ifite inkingi z'umuhondo, hari n'intebe ebyiri, hari n'imiryango y'umuhondo ifite ibirahure.

Ni imodokari isa ibara rya kaki, iruhande rwayo hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umukara, hari inzu ndende, ku ruhande rw'iyo nzu, hari akandi kazu gato gahagazemo abagabo.

Ni intebe y'umukara, imbere yayo hateretse imeza y'icyatsi n'ubururu iteretseho imashini, hari igishushanyo cy'amaso atatu agaragara mu buryo butandukanye.

Ni imbuga y'umukara, ikikijwe n'ibimera biteye, hirya hari igiti kirekire cyane gifite amashami menshi, hirya yacyo hari inzu y'umweru iri kwakamo amatara.

Ni imbuga irimo ibyatsi iteretsemo udukapu tubiri tw'umutuku, kamwe muri two hariho ikimenyetso cy'umusaraba, hagati yatwo harimo icupa ry'umweru, hirya hari abantu bahicaye.

Ni umukobwa wicaye hasi wambaye imyenda isa ari gukora imyitozo ngororamubiri afashe ku kirenge cye.

Ni agapira gato k'umweru n'akandi k'icyatsi, hamwe n'ak'umutuku n'akamweru kazengurutsemo indodo z'umutuku n'indi mipira minini.

Ni imbuto zitandukanye, harimo inanasi, imineke, amalongi n'ibindi, ku ruhande hari imidari, iruhande rwaho hari ibinini bifite ibara ry'umweru n'umutuku.

Ni umugore wicaye ku ntebe y'umukara yambaye agapira k'umutuku ari kumurika umwana amufashe mu mutwe, imbere yabo hari imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye.

Ni umugore wicaye hasi wambaye imyenda isa ari gukora siporo ngororamubiri, hirya ye hari intebe z'umukara ku rundi ruhande hari idirishya ryikirahure, iruhande yaryo hari agatebe ko kwicaraho.

Ni icupa ririmo amazi risa umweru rikaba rifite umufuniko w'umweru, rikaba rikikijwe n'andi mazi yaterewe hejuru.

Ni umwana wicaye inyuma ye hari uwihayimana, imbere ye hari umuzungu umufasheho, inyuma yabo hari ibitambaro by'umuhondo, umweru ndetse n'icyatsi.

Ni igikapu cy'umutuku gifunze, gifite imashini z'umukara, n'imigozi y'umukara, hari ikindi gifunguye, kirimo ibintu bigiye bitandukanye nk'imikasi.

Nagakarito karimo ibintu bigiye bitandukanye by'imiti yakwifashishwa mu buvuzi harimo nk'amavuta inshinge n'ibinini.

Ni ikimenyetso gishushanyijeho akamenyetso k'umusaraba ibiganza bifatanye n'umuntu uri kwiruka.

Ni umugabo wicaye yambaye ikabutura, ku kuboko kwe hariho isaha, afashe ku rukweto rwe, yambaye agasengeri k'umukara.

Ni ukuboko k'umuntu wirabura, kuri uko kuboko harambitseho igishashi cy'ubururu hari n'ikiganza gifashe kuri icyo gishashi cy'ubururu. Hirya yabo ntabwo wamenya ikintu gihari.

Ni itsinda ry'abaganga bari kureba muri ekara, imbere y'abo hari imeza iteretseho imashini za kompiyuta ebyiri, hateretseho n'agakarine, kuri ako gakarine hateretseho telefone.

Ni ikirango kigaragaza imikino njya rugamba, gishushanyijemo abantu babiri, umwe yambaye imyenda y'umweru, undi yambaye imyenda y'ubururu.

Ni umugabo uri gukora imyitozo yambaye ikabutura y'umukara n'agapira k'umutuku n'isaha y'umukara afite umupira mu ntoki ze. Inyuma ye hahagaze undi mugabo wambaye agapira k'umukara na we ufite umupira mu ntoki ze.

Ni ibikoresho by'ibanze by'ubuvuzi harimo nk'ibinini, inshinge, imakasi, ibipfuko n'igikapu gitwarwamo ibyo byose twavuze.

Ni umusore wambaye agapira, udafite ubwanwa bwinshi, mu kiganza cye ateruye icupa ry'amazi ari kunywa, hirya ye hari ibyatsi ariko bitagaragara neza.

Ni inkoni ebyiri ziriho utugozi, utwo tugozi dufashe utundi tuntu tw'utuzeru hasi, zikaba zisa umukara hasi, hejuru zikagira agahembe kigonze gasozwa n'ibara ry'umukara.

Ni umusore wambaye agasengeri k'umweru karimo utubara twa oranje, ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaboko ke k'ibumoso gafashe ku gice kimwe cy'umugongo.

Ni icyumba gisa umweru kirimo imashini y'umweru.

Ni umukobwa uhagaze uri kwigorora, yambaye agasengeri ka oranje. Ku kuboko kwe kw'ibumoso hariho isaha. Imbere ye hari amabuye atagaragara neza.

Ni abantu benshi bari gukora imyitozo ngororamubiri, hirya hari inzu isakaje amabati y'umutuku, hirya hari ibyatsi, hirya hari ibiti.

Ni umugore wunamye uri gukora imyitozo ngororamubiri, afite imisatsi myinshi y'umukara, yambaye agasengeri k'umuhondo n'ipantaro, ku gikuta aho yegereye hari ibara ry'ubururu.

Ni umugore wambaye agasengeri, ufite imisatsi y'imikara ifunze, ku kuboko kwe hariho akenda k'umukara. Ari kunywa amazi mu icupa ry'ubururu.

Ni umuntu uryamye ku gatanda ko kwa muganga acyometseho insinga zituruka ku mashini. Hahagaze umuganga uri kumwitaho wambaye agapfukamunwa, inyuma ye hari irido y'ubururu.

Ni umugabo wambaye agapira k'umukara, uri gukurura akagozi k'umuhondo, iruhande rwe hahagaze undi mugabo uri kumufasha wambaye imyenda y'ubururu w'umuganga.

Ni umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agakabutura k'umukara n'isengeri y'umukara, hirya ye hari igikuta cy'umweru.

Ni abantu babiri bambaye imyenda y'umutuku n'udupira tw'umweru bateruye umusore bigaragara ko yakomeretse. Inyuma yabo hari abandi bambaye imyenda y'imyeru hirya yabo hari ibiti.

Ni umukobwa wicaye hasi, ari gukora siporo ngororamubiri, iruhande rwe hateretse icupa ry'ubururu ririmo amazi, yambaye inkweto z'umutuku.

Ni umugabo wambaye agapira k'ubururu, yifashe mu mayunguyungu, ukuboko kwe kuriho akenda k'umweru, uko hirya kuriho ak'umukara.

Ni umukobwa wicaye hasi uri gukora siporo ngororamubiri, iruhande rwe hateretse icupa ry'umweru ririmo amazi, yambaye inkweto z'umweru, yambaye n'imyenda y'umukara.

Ni ikimenyetso cy'umusaraba kiri mu ibara ritukura, gikikijwe n'amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara, hepfo yaho na none gato hari andi magambo yanditswe mu ibara ry'umukara.

Ni umugabo wicaye bari kumuzirika igitambaro ku kaguru, yambaye agapira ka gisirikare, uri kumuzirika yambaye agashati k'umweru, yambaye n'isaha ku kuboko n'ipantaro y'umukara.

Ni umugabo uryamye akaguru kamwe kari hasi, akandi kari ku bitugu by'undi mugabo. Hirya hari igikuta cy'umweru n'urugi rw'ibirahuri.

Ni umugabo wicaye hasi, yambaye agapira gafite ibara ry'umuhondo, iruhande rwiwe hari ibyatsi, hirya ye hari ikintu cy'icyuma kirekire, yambaye inkweto zifite amenyo ya sikare.

Ni agatanda baryamishaho abarwayi mu gihe babatwaye ahantu hatandukanye, gakozwe mu buryo bw'ibyuma ariko kariho imyenda ihambira.

Ni ibiganza by'umugabo, biri gupfuka akaguru k'umuntu.

Ni umugabo wambaye agapira k'umweru, mo imbere harimo agasengeri k'umukara, yifashe ku kuboko afatishijeho igishashi kirimo ibintu by'ubururu.

Ni umugabo wicaye hasi, wambaye agasengeri k'umukara, ufite icupa ry'amazi mu ntoki, ubona ko agiye gusomaho.

Ni umukobwa wicaye hasi, ari gukora imyitozo ngororamubiri, afashe ku kirenge cye, yambaye ipantaro y'umukara, hirya ye hari intebe zirimo imisego.

Ni imodoka y'imbangukiragutabara, iri mu ibara ry'umweru, yanditseho n'amabara y'umutuku, ifite umupine uyiriho inyuma, ikaba iri kunyura mu muhanda wa kaburimbo w'umukara.

Ni umwana wicaye yishimye, inyuma ye hari umubyeyi wambaye imyenda isa, hirya yabo hari abandi bantu baharyamye hejuru hari imisegetera.

Ni imeza isa ibara ry'umutuku, kuri iyo meza hateretseho ibikoresho bigiye bitandukanye, hari umuganga uri gusuzuma umwana, uwo mwana ateruwe n'umubyeyi we.

Ni umutobe w'imbuto uri mu kirahure, ku ruhande hari imbuto zigiye zitandukanye, hari n'ibyuma byo guterura bisa ibara ry'iroza.

Ni umukobwa uri muri siporo, yazamuye akaguru afashe ku ivi, yambaye inkweto ndetse n'agakabutura kajyanye n'isengeri ya siporo, hakurya ye hari amazi.

Ni umugabo uhagaze yashyize amaboko ye inyuma, ukuboko kumwe kuriho isaha y'umukara, yambaye agasengeri, imbere ye ntihagaragara neza.

Ni agatanda batwaraho indembe, gafite amabara y'umuhondo n'umukara. Hirya hari abagabo babiri bagateruye, bambaye imyenda y'umutuku.

Ni agakapu k'umutuku, gafite utubara tw'icyatsi ku ruhande, gafite imashini z'umukara, mo imbere harimo imikasi, harimo uducupa.

Ni umukobwa uhagaze imbere y'amazi. Yambaye ipantaro n'agasengeri k'umweru. Azamuye amaboko, ayahuriza hejuru y'umutwe we.

Ni umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri apfukamye hasi arunama yambaye agakabutura k'umukara kariho ibara ry'umweru hirya ye hari intebe yo kwicaraho.

Ni imbuto zitandukanye; avoka, inyanya, hari inkweto hasi n'itapi izinze.

N'umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri apfukamye hasi yambaye agaseri k'umweru hirya ye hari icyatsi hasi hateretse agacupa karimo amazi.

Ni umugabo wicaye hasi, yambaye agapira k'umweru ku kuboko kwe hariho agakomo, ku rutoki rwe rwa musumbazose hariho impeta. Afashe ku ivi ry'iwe yambaye imyenda y'umukara.

Ni umuntu uryamye hasi bigaragara ko yakomeretse, iruhande rwe hari abandi babiri bambaye imyenda y'imituku bari kumwitaho, hirya hahagaze abandi bagera muri bane.

Ni umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ku kuboko kwe hariho isaha y'umweru, afashe ukuguru k'umuntu wambaye amasogisi y'umukara n'umupira w'umutuku.

Ni ibiribwa bigiye bitandukanye: inyama, amagi, imineke, imbuto, imboga, ibitunguru n'ibyuma byo guterura n'agacupa k'amazi.

Ni abantu bagaragaza imikino igiye itandukanye. Harimo umukino w'amaguru, umukino w'amaboko ndetse n'indi myinshi igiye itandukanye. Hasi hariho umusore uri kunywa amazi wambaye agasenge k'umweru.

Ni umugabo ufite ubwanwa buconze, yambaye agapira, ku bitugu bye hariho isume y'umweru, afite agacupa karimo amazi ari kunywa.

Ni umwana w'umukobwa witeye isume y'umweru, ari kunywa amazi ari mu icupa ry'umweru rifite umufuniko w'ubururu, yambaye agashenete mu ijosi, afite umusatsi usanzwe.

Ni umugabo urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ikabutura y'umukara irimo amabara y'umutuku ndetse n'umweru, hirya ye hasutamye umugore wambaye ipantaro y'umukara.

Ni agasekuru gato gafite ibara ry'umukara n'agahini gato gafite ibara ry'umukara, iruhande rwako harambitse ibyatsi by'ubwoko bugiye butandukanye

Ni amacupa y'ibirahure agiye atandukanye, amwe magufiya afite imifuniko y'umuhondo, hari n'andi maremare afite imifuniko y'umutuku ariho udupapuro tw'umweru turiho utumenyetso n'amagambo bitukura.

Ni agacupa k'umweru gafite umufuniko w'umweru, kariho agapapuro kari mu magambo yanditse mu mabara y'umutuku n'umukara, hariho agasiga kari kuguruka.

Ni isoko rusange ririmo abantu benshi rishikajwe amabati, hano hari amacupa afite imifuniko y'umuhondo ariho n'ibipapuro by'umuhondo.

Ni ingemwe ndende yakuze hejuru ifite ibibabi bitanu, hasi ikagiraho utubabi dutoya, hasi cyane ikagiraho ibindi bibabi bibiri.

Ni ikimera kizwi ku izina rya tangawize, gifite ibice bitandukanye, igice kimwe gikasa kasemo uduce twinshi.

Ni uducupa tugiye dutandukanye, tumwe turasa umukara dufite imifuniko y'imyeru, utundi turasa icyatsi dufite imifuniko y'icyatsi, hirya yaho hari abantu bahahagaze.

Ni agacupa k'umweru gafite umupfundikizo wera, kariho agapapuro kandiditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, hejuru hashushanyijeho ikiguruka.

Ni ibinini biri mu ibara ry'icyatsi bimwe biri mu gakoresho kabugenewe ibindi byandagaye hasi.

Ni icupa ry'ikirahure rifite umufuniko w'icyatsi, rikaba ryometseho agapapuro kanditseho amagambo y'umweru ndetse n'umukara, ako gapapuro kakaba gasa icyatsi cyiganjemo amabara y'umweru.

Ni ahantu hateretse imbuto zitandukanye, izo mbuto ziteretse ku bibabi by'icyatsi, hariho n'agasekuru k'umweru karimo agahini k'umweru ariko dutoya, ahandi hari imbuto tutazi.

Ni uducupa tugiye dutandukanye akari imbere karasa umweru, inyuma yako hari agasa umukara, i ruhande rwako hari akandi gasa nanone umweru ariko gafite igishushanyo cy'icyatsi, hejuru hariho igishushanyo cy'igisiga.

Ni agacupa gafite umufuniko w'umukara kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, hariho n'akamenyetso k'ikiguruka.

Ni ibiganza by'umuntu wambaye ikaburiya y'umweru, mu kiganza kimwe harimo agakarito kanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, mu kindi kiganza harimo ibinini bitatu bifungiye hamwe.

Ni agacupa k'umweru gafite umufuniko w'umweru, kariho agapapuro gasa ibara ry'umutuku, kariho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umutuku.

Ni ducupa twinshi tw'amabara atandukanye, kamwe gasa ibara ry'icyatsi, gafite umupfundikizo w'umweru, kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ku ruhande rwo hirya hari ak'ubururu gafite n'umupfundikizo w'ubururu, kanditseho n'amabara y'umweru.

Ni agacupa k'umweru gafite umupfundikizo w'umweru kazengurutswe n'agapapuro gafite ibara ry'umuhondo kanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umukara hariho n'ikimenyetso cy'inyamaswa iri kuguruka.

Ni uducupa tw'umweru, dufite imifuniko y'umweru, dushushanyijeho ikimera cy'icyatsi. Handitseho n'amagambo ari mu ibara ry'icyatsi. Akaba ari dutandatu twose hamwe.

Ni amacupa atandukanye arimo ibintu bitandukanye, afite n'imipfundikizo itandukanye. Imwe ni ubururu bwijimye, indi ni ubururu busanzwe, hariho udupapuro tw'umweru kuri buri cupa.

Ni amacupa ateretse ku meza afite imifuniko itandukanye, amwe afite iy'umutuku andi afite iy'imyeru. Hari n'abantu babiri bafashe kuri iyo meza, umugabo hirya umugore ukeneye agatambaro k'umweruru mu mutwe.

Ni uducupa dutatu, kamwe gateretse neza, akandi kari mu kirere, akari mu kirere gasa umuhondo, akandi karahengetse, biteretse ku kabati, cyangwa se ku kintu cy'umuhondo.

Ni agati gatoya gafite amashami atandukanye, buri shami rikaba rigiye rifite ibibabi, ibyo bibabi hari ikiganza gifashe ibibabi by'ishami rimwe, hasi hari ibindi byatsi byuyumagaye n'ibyatsi bibisi.

Ni umuntu utagaragara neza wambaye imyenda y'umukara ndetse n'umutuku, ahagaze ahantu mu byatsi. Inyuma ye ndetse n'imbere ye hose hari ibyatsi.

Ni uducupa tubiri dusa dufite imifuniko y'icyatsi dushushanyijeho ibimera, turi ahantu h'icyatsi, hirya yatwo hari utundi tw'umweru turi ahantu hasa n'igitaka.

Ni uducupa duteretse ahantu hatandukanye, aka mbere gafite umufuniko w'umweru, aka kabiri kanditseho amagambo y'umutuku, aka gatatu na ko gafite umufuniko w'umweru, ni ko kari hejuru y'utundi.

Ni agacupa k'umweru gafite umufuniko w'umweru kometseho agapapuro k'umweru karimo ibara ry'icyatsi, ndetse n'umutuku, hashushanyijeho n'akantu k'umuhondo.

Ni agacupa k'umweru kari ahantu hijimye gafite umupfundikizo w'umweru, kariho agapapuro kanditseho amagambo ari mwibara ry'icyatsi, hariho n'akamenyetso k'ikiguruka.

Ni ibikoresho bigiye bitandukanye, ubona ko harimo ibya kijyambere ndetse n'ibya kera, harimo uducuma, harimo inkono, harimo n'uducupa twa kijyambere.

Ni agacupa k'umuhondo, gashushanyijeho ikimera cy'icyatsi, handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, hashushanyijeho ikiguruka, gafite umufuniko w'umukara.

Ni agacupa k'umweru gafite umufuniko w'umweru, kariho agapapuro k'umweru ariko kariho ibintu by'umutuku kanditseho n'amagambo atukura, gakikijwe n'utundi ducupa.

Ni uducupa dusa dufite imifuniko y'imyeru twanditseho amagambo yi'cyatsi hariho agasiga kari gusa ibara rya kacyi.

Ni agacupa k'umweru kari ahantu hijimye, gafite umufuniko w'umweru uriho akabara k'icyatsi. Kanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, hasi gafiteho utundi turongo tubiri.

Ni agasekuru gatoya, kari kumwe n'agahini gatoya, hari imbuto zigiye zitandukanye ndetse n'amababi agiye atandukanye, hari n'agacupa karimo amavuta.

Ni agacupa k'umweruru, kazengurutswe n'agapapuro k'umweru, kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, iruhande rwako hateretse ibinini, hirya hari amagambo yanditseho mu ibara ry'umweru.

Ni igiti gifite amashami atandukanye, kuri ayo mashami hagiye hariho ibibabi bitandukanye, hirya y'icyo giti hari ibindi biti byinshi bigikikije n'abyo bifite amababi atandukanye.

Ni agacupa k'umweru gafite umufuniko w'umweru kariho igipapuro kirimo amabara y'umuhondo ndetse n'umweru kakaba gateretse ku isahani inyuma hariho imbuto.